Aha ni ku ishuri ribanza aho abana bakinira imikino itandukanye, aho bakorera siporo n'imyidagaduro kubyicungo.

Ishuri ry'ishuri ribanza rya Susa riherereye munsi ya INES Ruhengeri ahitwa Karilisimbi, ishuri ryubatse neza cyane ishuri rigaragara ko ari rya kijyambere.

Umubaji akoresha iranda abaza ibintu binyuranye utubati, intebe n'inzugi.

Abaganga bakora ubushakashatsi bagaragaza ibiza mini, aba barakora ibizamini bafashe ku barwayi bashaka kumenya indwara iyo ariyo kugira babone uko bavura uwaje abagana. Ni byiza gufata ibizamini kuko bituma umurwayi amenywa.

Abanyeshuri biga guhanga ndetse no gucuranga indirimbo bakoresheje ibyuma bya kizungu, ibyuma bigezweho birimo ingoma ndetse na piyano, ukaririmba bikaryohera amatwi y'abumva.

Guteka ni umwuga ukomeye kuko ushobora kuwukoresha muri hoteli ndetse no mu birori abatetsi barakodeshwa ndetse bagahabwa amafaranga akomeye cyane . Abenshi barabisuzugura ariko habamo amafaranga menshi cyane kuko mu birori udafite umutetsi byapfa. Hatabayeho n'abatetsi babigize umwuga mu birori byawe ntibyagenda.

Igitsina gore ubu nacyo gisigaye kigaragaza mu myuga, bikagaragara ko gishoboye kwirwanaho mu mirimo yose kugira ngo kibeho. Bakabaza ibikoresho binyuranye birimo ameza, intebe, ndetse n'utubati.

Ikoranabuhanga mu mashuri rituma abanyeshuri bunguka ubumenyi bakoresha mudasobwa, porojegiteri, ndetse n'ibyuma bifata amajwi, bityo bikabafasha mu myigire yabo ya buri.....

Ikoranabuhanga mu Rwanda rirakataje, cyane cyane mu mashuri, abana biga uburyo bunyuranye bwo gukora ibijyanye na maginetike. Kandi icyo gihe ni muri Fizike, bityo bamaze gutera imbere ku buryo burebure, ku buryo igihugu cyabitayeho, ndetse kikabashakira n'ibikoresho bihagije.